Gukingiza abana biracyakorwa mu mpande zose zigize igihugu cy'u Rwanda aho abaganga ubwabo bisangira abaturage aho batuye bakajya kubagezaho iyi gahunda yo gukingiza abana bakabafata bakabakurikirana bareba uburyo bw'imibereho yabo uko bumeze, babakurikirana umunsi ku wundi kugeza umwana ageze igihe cyo gucuka ageze igihe cyo kuba umwana mukuru.

UNICEF ni ikigo gishinzwe kwita ku mibereho ya y'umwana ku isi yose. Gikomeje gutera intambwe nziza mu kwita ku bana kugira ngo umwana wese abone uburenganzira akwiriye kandi ibyo akeneye byose nk'uko uburenganza bwe bubimwemerera bumugereho kandi bumugerereho igihe.

Mu byo dukenera mu buzima kugira ngo tubeho neza amazi nayo ari muri bimwe by'ingenzi, niyo mpamvu amazi asa neza akomeje kwegerezwa abaturage, kugira ngo n'abadafite ubushobozi bwo kuyageza murugo iwabo, ku masoko aho hafi, ku mariba abegereye amazi abagereho, kandi asa neza, bakomeze...

abajyanama b'ubuzima bakomeje gushimirwa kandi banahabwa bimwe mu bikoresho bakeneye kubw'umurimo ukomeye bakora aho babasha gusobanu abaturage byereke indwara zimwe na zimwe kandi bakameza ubuvuzi bw'ibanze aho bigoranye kugera kwa muganga abajyanama b'ubuzima bakomejwe banabwirwa ib bakumva banahabwa ubumenyi ku byo bagomba gusobanukirwa kugira ngo bakomeze gufasha abaturage ubuzima bwabo bwa buri munsi

Mu kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa n'umwanda, ikintu cya mbere tubwirwa ni ugukaraba intoki, kandi tukabikaraba igihe kinini kandi bihoraho, tugakaraba isabune ndetse tugakoresha n'amazi meza, ibi bidufasha mu kwirinda ndetse no gukwirakwiza iyi ndwara ziterwa n'umwanda.

World food program ni porogarame y'isi yose ishinzwe kugaburira impunzi mu bihugu birimo inzara ndetse n'ibindi cyangwa byugarijwe n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye ku isi. Iyi ni porogarame y'ibihugu byose byihurije hamwe kugirango bigaburire abongabo bari mu gihe gikenewe, bakeneye ibyo kurya kubera igihe kibi kibugarije.

Abayobozi batandukanye bo mu nzego zigiye zitandukanye, bahurira hamwe kugira ngo barebe ibyo umuturage akeneye kugira ngo abeho neza, bakaganira ku mbogamizi ndetse bagashaka ibisubizo kugira ngo habeho iterambere ry'ibihugu byose muri rusange bituye mw'isi.

Umwana akivuka mu byo umubyeyi ategekwa gukurikirana kuri we harimo icyo bita kumukingiza, ababyeyi bose bagomba gukingiza abana uko yagiye abitegekwa na muganga, reka dushishikaze ababyeyi bose bakomeze gukurikirana ikingizwa ry'abana nk'uko minisiteri w'uburezi yabishyizemo.

Umugabo ararambura amaso akareba hejuru, akarebaza uko isi iri guhinduka impinduka ari kugenda abona buri munsi, akibaza nimba uyu munsi bimeze gutya ejo bizamera gute, ko uyu munsi ari bibi ejo ntabwo bizaba bibi kurushaho, muri iyi si turahangayitse, duhora tureba hejuru twibaza ati ejo hazazana iki, twifuza ko ejo hazana icyiza kurusha ibyo turi kubona aka kanya.

Gukorera hamwe ndetse no gukorera mu ma koperative ni bimwe bifasha mu gutera imbere kw'abaturage, aho ibihugu bikomeje gushishikariza abaturage gukorera hamwe mu ma koperative, kugira ngo babashe gukorera hamwe kugira ngo bazamurane kandi bazamukane mu gihe gitoya.

Uko umuntu akura ibyo bimwe yakoreraga akiri muto ni ko atabasha kubikora, muri urwo rwego hariho abagomba kubafasha, abageze mu gihe k'izabukuru kugira ngo ibyo batabasha kwikorera muri iyo myaka yabo y'ibizabukuru, bagire ababafasha.

Nkuko bisigaye bivugako ari ikibazo ko ababyeyi baganiriza abana babo ibyerekeye ubuzima bw'imyororokere, niyo mpamvu igihugu cyafashe iya mbere mu kuba abanyeshuri aho bigira ku ishuri babasha guhabwa ubumenyi ku byerekeye imyororokere ndetse n'imihindagukire y'ubuzima bwabo. Ahangaha hashyizweho ibitaro biza bifasha abarimu mu kubayobora kugira ngo bigishe abana ibyerekeye imyororokere yabo.

Igishushanyo mbonera cyerekana uburyo inkingo zikingira abantu indwara ya Kovide Cumi n'Icyenda uko cyagiye gitangwa mu bice bigiye bitandukanye, hagaragaye ibibazo ndetse n'uburyo byagiye bibasha gukosorwa ndetse n'uburyo bw'ingamba bwagiye bufatwa ndetse n'uko impinduka zagiye zigaragara.

Mu gukomeza kwirinda inda zitateganyijwe ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, niyo mpamvu abantu bashishikarizwa gukoresha icyo bita agakingirizo, kuko birizewe, ibyishimo biraboneka kandi indwara zidateganyijwe, n'inda zidateganyijwe ntizive muri icyo gikorwa, rero dukomeze dukoreshe agakingirizo, twirinde, turinde n'abacu.

Kanseri iri mu ndwara zikomeje kwibasira isi, ni muri iyo mpamvu u Rwanda rwafashe ingamba yo gushyiraho ikigo gishinzwe kwita kuri kanseri ku barwaye kanseri, itangiza uyu mushinga wa Rwanda Cancer Centre kugira ngo ifashe bamwe mu barwayi n'abagira ibibazo byo kurwara kanseri.

Kwa muganga aho abarwayi barwarizwa, hagomba kuba ari ahantu harangwa n'isuku ndetse harangwa n'urusaku rukeya kugira ngo abarwayi babe ahantu hababereye, hagomba kuba ari ahantu uhari wese agomba gukurikiranwa ndetse n'isuku ye ikitabwaho.

Mu guteza imbere ubuvuzi hakomeje gukomeza kubakwa ibitaro ndetse hakomeza no gushyirwa imbaraga mu bitaro by'abana, kugira ngo ari abana bavukana ibibazo bigiye bitandukanye ndetse n'ababigira bakuze bakomeze guhabwa ubuvuzi bw'ibanze kandi bavurwe ku gihe, kugira ngo barebe uko bakurikiranwa bakavamo abagabo n'abagore b'igihugu gikeneye.

Ubuvuzi bwo mu ngingo ndetse n'amagufa bumaze gufata indi ntambwe, aho ubungubu hari ibikoresho bigiye bihambaye bikoreshwa muri ubwo buvuzi, kandi ndetse hari mu mikurikiranire myiza y'umurwayi kugeza akize, kandi na nyuma agakomeza kwitabwaho kugira ngo atazahura n'ibindi bibazo byerekeranye n'ubuvuzi bubi.

Wahita croix rouge mu gifaransa cyangwa wahita red cross mu cyongereza, aho iki ari ikigo gikomeje kuba hafi yab'auye n'ibikomere byatandukanye, ibafasha mu buyobozi bwa vuba mbere yuko bagera aho bagera kwa muganga kugira ngo bafashwe.

Mu gitondo hagicya ntabwo azindukira mu bindi ahubwo azinduka akora ingororamubiri akora siporo kugira ngo atunganye umubiri we ndetse ahereye no ku bwonko bwiwe, yirambura kandi agerageza kugorora ingingo ziwe z'umubiri wose.

Tujya twibaza ngo mu gihe cya kera ntabwo abantu barwaraga, bararwaraga kandi baravurwaga kandi indwara zikomeye erega no muri iki gihe icyavuraga abakurambere bacu n'ubu kiracyariho. Ngwino utugane nawe imiti yose ubwoko bwose, indwara zose, turakuvura nk'uko abakurambere bacu ba kera babagaho n'ubu ngubu serivisi zose ziracyatangwa ngwino tugane.